Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu gishishikariza abantu gukoresha ubwishingizi bw'ibicuruzwa byawo icyo cyapa kiri hejuru y'umuhanda hirya hari amazu menshi acuru bigaragara acururizwamo n'abantu hariho n'ibyapa by'ibintu bagiye bacuruza.

Imbere y'amagorofa ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, hariho umukobwa wambaye umushanana, uri kubyina umushayuko, ufite akamwenyu.

Icyapa kiri hejuru cyane cyerekana ubwishingizi umuntu ashobora gukoresha agura, agurira inshuti n'abaturanyi, apana mudasobwa irimo icyapa kirimo ibara y'ubururu harimo n'abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye.

Yerekana uburyo amafaranga yagiye yinjira akanasohoka buri munsi uko amatariki agenda asimburanwa...

Igikoresho cyifashishwa mu kuranga cyangwa kumenyesha ibicuruzwa bikorerwa aho hantu, haba handitseho ibiribwa cyangwa ibinyobwa ndetse n'igiciro cya buri kimwe.

Curuzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari abantu b'ingeri zose, abavamahanga ndetse n'abaturarwanda, hari kandi amata ari mu ibara ry'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, bishoboka ko hashobora kuba hari n'akabyiniro. Hari amatara meza cyane ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, ubururu ndetse n'umutuku.

Igipapuro cyerekana ibicuruzwa birimo ibiribwa n'ibinyobwa bigiye bitandukanye by'amoko menshi, aho bashyiraho igicuruzwa

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibinyobwa ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, imeza ibajwe mu biti bikomeye cyane, hateretseho icupa ry'inzoga ndetse n'ikirahure cyasuswemo inzoga.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hari abakozi babiri bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru inyuma yabo hatondetse ibinyobwa.

Igipapuro cyerekana cyangwa kimenyesha ibicuruzwa bicururizwa aho hantu, ndetse buri gicuruzwa kigiye kiriho igiciro cyacyo uko kingana.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari akabyiniro ko kwidagaduriramo, imbere hari igikoresho cy'ikoranabuhanga kifashishwa mu gusakaza amajwi ndetse n'amashusho.

Icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hari amatara meza cyane atatse ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo hari kandi icyuma kifashishwa mu gukonjesha ibyo binyobwa.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari amatara meza cyane ari mu ibara ry'umuhondo, hubakishije ibiti bibaje neza hari, umukobwa ufashe igicupa mu ntoki.

Ufite inzoga mu ntoki yambaye imyenda myiza y'umweru ndetse n'umukara ari gusuka inzoga mu cyuma. Inyuma ye hari amatara ari mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Habamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hari amatara meza cyane ari mu bara ry'umutuku, icyatsi kibisi, ndetse hari n'ibiti byiza by'indabo.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, inzoga zitondetse neza ku murongo mu buryo buzirinda kumenekamo, hari kandi amazi y'uruzi rugari Nile.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hari amatara ari mw'ibara ry'umweru, imbere hari igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mukwerekana amajwi n'amashusho.

..bucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari amatara meza cyane yaka mu ibara ry'umuhondo, kuruhande kandi hari icyuma cyifashishwa mu gukonjesha ibinyobwa.

mUuguzi n'umucuruzi bahurira bakaganira ku bijyanye n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, umuguzi akagabanyirixwa agera kuri mirongo itatu ku ijana, bakaba babimugezaho ku buntu ndetse bikaba byizewe.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse hakaba hari n'akabyiniro, hari amatara ari m'ubwoko bwiza cyane butatse aho mw'ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru.

Inzu y'ubucuruzi, icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibudasembuye, hari intebe zibajwe mubiti, ndetse hacururizwa n'ibiribwa, hari icyuma k'ikoranabuhanga kifashishwa mu gusakaza amajwi n'amashusho.

Kiryoha cyane, kivura amavunane, kidatera kubura imbaraga kitwa virunga kiri mu icupa ryabugenewe rifite isuku, ku ruhande hateretse ikirahure kirimo imboga.

Kifashishwa mu kwerekana cyangwa kumenyesha ibicuruzwa bicururizwa aho hantu, harimo ibinyobwa ndetse n'ibiribwa, buri gicuruzwa kigiye cyanditseho igiciro cyacyo.

Moto iparitse iri mubwoko bwa savenisenke mu ibara ry'umutuku ihetse iki bogisi cy'icyatsi cyanditseho vuba, hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi afite amverope ari gushyiramo.

Ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye imbere hari icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mukubika ndetse no mu gukonjesha ibinyobwa, hari intebe kandi ziri mw'ibara ry'umukara.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari amatara atatse neza, ari mu ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, kuruhande hari mudasobwa.

Cyane kiri mu ibara ry'umutuku, ndetse n'umweru, gishushanyijeho inzoga iri mu icupa, kuruhande inzoga iri mukirahure, munsi hari inzu y'ubucuruzi bw'imyenda.

Ndi kubonaho icyapa gisa nk'icyamamaza inzoga bita Skol, nkabona inyuma bigaragara ko ari etaje ifite nk'amagorofa agera nko muri atanu, nkabona iki cyapa gifite amabara ari kuri iri cupa, umuhondo, icyatsi, iki cyapa cyerekana kandi ko ino nzoga ari nziza, iryoha

Habamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, ku meza hateretse icupa ry'inzoga ikomeye cyane, hari amatara kandi ari mu bwoko bw'umutuku, umweru ndetse n'ubururu.

Icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari imeza iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'amatara yo mu kabyiniro ari mu ibara ry'umutuku.

Ricururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, abantu benshi baje gufata ku kinyobwa, hari intebe iri mu ibara ry'umutuku, ndetse buri wese yizihiwe.

Umukobwa ufite icyuma k'ikoranabuhanga ari kwerekana uburyo wakwishyura utavuye aho uri ukoresheje ikoranabuhanga ndetse ugahabwa inyemeza bwishyu.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari umukobwa ufite itumanaho mu ntoki ze, ndetse hari amabara y'umutuku.

Inzu y'uburuzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hari umukiriya wambaye imyenda y'umukara hari amatara meza cyane ari mu bwoko bw'imitako afite ibara ry'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye imbere hari amatara ari mu bwoko bw'imitako ari mu ibara ry'umuhondo hari kandi udutebe duto turi mu ibara ry'umukara.

Ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, imbere hari icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kwerekana amajwi ndetse n'amashusho.

Ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasenbuye, imbere hari ikoresho kifashishwa mu gukusanya, gutanga ndetse no gukwirakwiza amajwi n'amashusho, bikeye ndetse n'inzoga zipanze mu buryo bwiza.

Icyapa kinini gishushanyijeho inzoga ndetse hariho n'ikirahure kirimo inzoga, kiri mu ibara ry'umutuku handikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye, hari akabati kabajwe mu mbaho nziza kandi zikomeye, hari amatara asa neza ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu.

Ndabona ahakorerwa ikinyobwa gisindisha kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hariho umuntu uri kunywa ndetse n'icupa ryanditseho Virunga.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibudasembuye, umucuruzi yambaye umwenda w'umutuku ndetse n'uw'umweru. hari amatara meza cyane, ari mu ibara ry'umuhondo.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, gishushanyijeho igishusho cy'umugore uri kunywa inzoga, ndetse hariho icupa n'ikirahure byanditseho virunga.

Byibinyobwa bitandukanye umwe afite ikinyobwa cy'amazi undi afite ikinyobwa gikozwe mundimu ndetse hari n'indimu zikatakase hasi.

Ni kinini cyane kimanitse hejuru y'inzu, ku mabati cyangwa isakaro riri mu ibara ry'umutuku, cyandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umweru kirerekana ahatangirwa ikinyobwa.

Byifashishwa mu kwerekana cyangwa kwandikwaho ibiribwa biri aho hantu ndetse n'ibinyobwa by'amoko yose, hariho ibiciro bya buri kiribwa cyangwa ikinyobwa.

Icyapa kiriho ikirahure ndetse n'icupa byanditseho virunga kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, imbere yaho hari inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Kinini ishushanyijeho inzoga kiri mu ibara ry'umutuku icupa ry'inzoga riri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ku ruhande hari umutaka ndetse n'intebe iri mu ibara ry'umutuku, n'imeza iri mu ibara ry'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye imbere hari amatara meza cyane ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, hejuru hasakarishijwe imbaho.

Y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari amatara meza cyane ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, imbere hari igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mugusakaza amajwi n'amashusho.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, ku rukuta hari ifoto y'abagabo bambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru, harimo amatara ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu.

Curuzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari amatara meza cyane ari mu ibara ry'umuhondo, ndetse hari icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gukwirakwiza amajwi n'amashusho.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye bitondetse neza ku murongo aho buri gicuruzwa kigiye kiriho igiciro cyacyo kandi kidahenze.

Icururizwamo inkweto z'ubwoko butandukanye, iz'uruhu, izifunguye ndetse n'izifunze. Harimo iz'abagabo, iz'abagore, n'iz'abana.

Umugabo uri gusobanurira umuzungu ibijyanye n'ikoreshwa n'uburyo baha mu isoko kuri murandashi, afite imbere ye mudasobwa.

Imodoka nini itwara abantu n'ibintu ifite ibara ry'umweru, iri mu bwoko bwa hoho ndetse inyuma yayo hari amagorofa maremare.

Bishinzwe kugurisha ibinyabiziga biri mu bwoko bw'imodoka, bikabanza bigaduzumwa bigacishwa mu ruganda, hari imodoka iri gusuzumwa iri mu ibara ry'umutuku.

Aho bacururiza imodoka bafite icyapa cyanditseho ABG Akagera moto ndetse inyuma yaho hari imodoka ziri mu ibara ry'umweru.

Ahantu hacururizwa imodoka hari n'iduka ricuruza kandi ribikamo izo modoka. Imbere yaho, hari abantu batanu bafite icyapa cyanditseho "Abig Deltd Company", icuruza izo modoka. Inyuma yabo, hari imodoka y'umukara.

Ikigo cy'abakire n'abaherwe bacuruza imodoka bahagaze imbere y'imodoka bagurishije icyo kigo kitwa Akagera.

Inote yakoreshwaga mu gihe cya kera y'ibihumbi bitanu yandikishijeho amagambo ari mu gifaransa bisobanura banki nkuru y'u Rwanda hariho n'abantu bari kubyina imbyino za kinyarwanda ku yindi noti ho hariho inzu ndende ya etage bigaragara ko ari bank y'u Rwanda.

Ifaranga ryanditeho banki nkuru y' u Rwanda ibihumbi bibiri n'icyenda hariho ishusho y'igitoki kiri ku nsina.

Umukozi w'icungamutungo uri guhererekanya n'umuguzi amafaranga, bigaragara ko ari ahabikirwa amafaranga.

Imodoka iri mu ibara ry'umuhondo itwara amafaranga iyavana hamwe iyajyana ahandi imbere hari abashinzwe umutekano bafite intwaro.

Ikiribwa kiryoshye gikorarye ubuhanga n'isuku ntakemangwa, gikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi ndetse n'isukari, hasi hari amata.

Cyane gikoranywe ubuhanga ndetse n'isuku, gikozwe mu ifarini, amata, amazi, isukari ndetse n'umunyu, kiraryoshye kandi gitera imbaraga.

Uruganda rw'inyange ahatunganyurizwa amata y'ubwoko bwose ndetse n'amazi yo kunkwa agashyirwa mubikoresho byabugenewe aho ava ahongaho ashyikirizwa abacuruzi n'abaguzi.

Igikoresho gikonjesha kirimo amata akomoka ku nka, icyo gikoresho cyanditseho Nyanza kikaba gikonjesha amata giherereye i Nyanza.

Ikinyobwa gikomoka ku matungo cy'amata, kinyuzwa mu nganda hakongerwamo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara aribyo by'imbuto z'inkeri, ku ruhande hari amazi y'uruzi rugari Nili.

Bibyoshye cyane bifite isuku byiza biri mu ndobo bikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi, isukari, umusemburo ndetse n'umunyu.

Icyuma kinini cyane k'ikoranabuhanga kifashishwa mu kubika, mugusukura no gukonjesha ikinyobwa gikomoka ku itungo rinini ry'inka cyitwa amata.

Aho bacururiza amata hari icyuma babikamo amata, amagi abiri ateretse ku meza igikarito cy'amazi ya nili giteretse kuri kontwari mo imbere muri etajeri harimo amajerekani atatu y'umweru.

Ibinyobwa bidasembuye ndetse n'amazi n'amata, hari intebe iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'indi iri mu ibara ry'umweru. Imbere hari icyuma gikonjesha.

Hagati hari umuryango ufunguye uri mu ibara ry'ubururu n'icyapa kinini cyandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umweru Inyange. hacururizwa ibicuruzwa bikorwa n'uruganda rw'inyange.

Ibisabo bitondetse k'umurongo byifashishwa mu kubika amata, muburyo bwiza kandi bwizewe bituma amata agumana ubuziranenge, kandi bituma akomeza kuryoha.

Ubucuruzi bw'ikinyobwa, cy'amata ndetse n'ibindi binyobwa bikorwa n'uruganda rw'inyange. Aha kandi hari imashini yifashishwa mu gukonjesha.

Hitwa mu kubika no gutunga ikinywobwa cya amata ndetse hari umugabo wambaye impuzankano iri mwibara ry'umweru arikuyabuganiza ayakura mucyuma ashyira mu gakombe.

Wambaye amadarubindi ucuruza ibiribwa bikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi, isukari, umunyu ndetse n'amavuta, akaba acuruza n'amata.

Ibikoresho bikozwe mu isuku ndetse n'ubuhanga buhanitse burinda kwangirika kw'amazi mu buryo bubitswemo ndetse akagumana ubuziranenge.

Bamwe mu batunze imbuga nkoranyambaga zo kugura cyangwa ugurisha ukoresheje ikoranabuhanga, bakunze kuba bagirana imikoranire n'abantu bagurusha amasambu yabo, igihe baba bakeneye amafaranga yo gukora igikorwa kimwe cyangwa ikindi mugihugu cy'u Rwanda.

Ikinyobwa cy'amata y'inyange, hari abakozi bambaye impuzankano ifie isuku iri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyapa kiri mu ibara ry'ubururu bari gutanga amata.

Kiryoshye cyane gikungahaye ku intungamubiri gikoze mu; ifarini, amagi, amata, amazi umusemburo, isukari ndetse n'amavuta.

uri kubuganiza amata yifashishije igikoresho cyabugenewe cyiza kandi giufite isuku , inyuma ye hari igikoresho cyifashishwa mu kubika no gutunganya ikunyobwa gikomoka ku mata ndetse kikagumya gikonjesha .

Ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye biryohereye birimo isukari, ndetse hari n'amazi y'uruzi runini niri hari umugore wambaye ikanzu iri mu ibara ry'ubururu.

Umucuruzi ucuruza ikinyobwa cy'amata cy'uruganda Mukamira ayo mata aba yanyujiwe mu ruganda, agatunganywa akongerwamo inkeri isukari, n'ibindi bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo amata handitseho hano hari amata meza y'inka hari umugabo uri kuyatanga ku giciro kiza kandi kizewe.

Amafunguro ya saa sita cyangwa nimugoroba ndetse na mugitondo hateretse kumeza ibiryo biryoshye bigizwe n'intungamubiri nyinshi ndetse n'igikombe cy'amata.

Ikiribwa gikungahaye kuntungamubiri kiryoshye kandi gifite uburyohe buhebuje, gikozwe mu ifarini amagi amata amazi inyama cyangwa ibirayi n'ibindi.

Gikoze neza, kiryoshye cyane gikoranye ubuhanga ndetse n'isuku gikozwe mu ifarini, amazi, amata, amagi, umusemburo, umunyu ndetse n'isukari.

Urugi rufunguye ruri mu ibara ry'ubururu hashushanyijeho itungo ry'nka handitseho i Nyanza. Bigaragara ko hacururizwa ikinyobwa cy'amata.

Kifashishwa mu kubika no gutunganya ikinyobwa gikomoka ku nka amata kiyabika neza mu buryo bwizewe kandi bw'isuku agakomeza akonje afite ubuziranenge ntakemangwa.

Itereyi y'amagi ni igikoresho kifashishwa mu kubika neza amagi, aho uyatondeka ku murongo, bikayarinda kumeneka no kwangirika aho yaba ari hose.

Ikiribwa kiryoshye cyane gikorwa mu ifarini, isukari, amagi, amata, amazi, umunyu ndetse n'amavuta i ruhande hari igikombe cy'amata.

Harimo umusore n'umukobwa bikekwa ko bashobora kuba bakundana cyangwa bakorana, inyuma hakaba hari imashini ibikwamo amata kugira ngo atangirika, nkaba mbonaho akantu babikamo amandazi, mbonamo umusore w'igikara ufite telefone iriho na ekuteri.

Ni Igikoresho cyifashishwa mu kubika neza amagi mu buryo bugezweho, kiyarinda kwangirika ndetse no kumeneka. Hatondetseho amagi.

Abantu batandatu bafite ibirahure bimeneka mu ntoki, birimo ikinyobwa gikomoka ku nka cy'amata, gikungahaye ku ntungamubiri zidufasha kubaho neza mu buzima bwa buri munsi.

Ubucuruzi icururizwamo ikinyobwa gikomoka ku inka ari cyo amata, hari amazi y'uruzi rugari rwa Nili ndetse bitondetse neza ku murongo.

Ikiribwa gikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi, isukari, umunyu ndetse n'amavuta n'igikombe cy'amata giteretse ku meza ibajwe mu mbaho.

Igishushanyo cyamamaza amata meza y' i Nyanza akomoka ku nka ayo amata ari mu bujerekani bwa lititiro eshanu, eshatu ndetse n'ebyiri.

Ikinyobwa gikungahaye ku ntungamubiri kiryoshye, gikorwa mu mbutoo z'amatunda hakongerwamo amazi n'isukari, gitera imbaraga kikarinda n'indwara.

Inzu y'ubucuruzi cyangwa ububiko bw'ikinyobwa gikomoka ku inka amata, hari ibikoresho biyashyirwamo bitondetse neza kumurongo muburyo bwiza kandi bwizewe.

Umugore wambaye umwenda w'impuzankano ya kazi, ufite isuku, uri mu ibara ry'umweru, yicaye imbere y'icyuma, gitunganya, kikanabika neza amata muburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga.

Ikibyobwa gikorwa n'uruganda rw'inyange rw'amata, ndetse bakora n'amazi, hari icyuma kinini cyane cy'ikoranabuhanga kifashishwa mukubika, gukonjesha, ndetse no gutunganya amata.

Umugore ukuze wicaye wambaye igitenge kiri mu mabara atandukanye agizwe n'umutuku ndetse n'umuhondo imbere ye hari igikombe ku ruhande rwe hari icyuma kifashishwa mu gukonjesha ibinyobwa.

Umugore wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umuhondo, ubururu, ndetse n'umweru. Afite mu ntoki igikoresho yifashisha abikamo amata.

Kiryoshye cyane gisa neza giteye amashyushyu ndetse kiryohereye mu kanwa, gikozwe mu ifaraini, amagi, amata, amazi, isukari ndetse n'ibindi.

Umukobwa uri kubuganiza amata, afite ijagi iri mu ibara ry'icyatsi, umubirikira uri mu ibara ry'ubururu, abuganiza amata mu kajerekani.

Umukobwa wambaye umwamboro uri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'ubururu ari gutambuka neza cyane, imbere ye hari imodoka ndetse n'inzu z'ubucuruzi.

Amacupa meza arimo ibikomoka ku matungo cyane cyane ibikomoka ku nka, aho bavangamo inkeri bigacuruzwa mu maduka agiye atandukanye.

Umugore wambaye ibitenge biri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo, iruhande rwe hari icyuma kifashishwa mu gukonjesha ibinyobwa ndetse bikagumana ubuziranenge, hirya gato, hari icyuma kibikwamo amata.

Agapapuro kari mu ibara ry'umweru. Kifashishwa mu isuku, aho ugakoresha ufata ikiribwa cyangwa ukukihanaguza umaze kurya. Kari ku meza ibajwe mu mbaho.

Inzu icururizwamo ikinybwa cy'amata hari imiryango ibiri ifunguye iri mu ibara ry'ubururu ndetse handitseho Inyange, hari umwana uri kunywa amata.

Umugore uri gucuruza ibinyobwa bikomoka ku mata, ariko byanyujijwe mu nganda, bigatunganywa. Hakongerwamo imbuto nk'inkeri ndetse n'ibindi.

Ikinyobwa cy'amata gikomoka ku itungo ry'inka kinyuzwa mu nganda kikongerwamo bimwe mu bigize imbuto birinda indwara harimo inkeri n'ibindi kigashyirwa mu macupa yabigenewe.

Biragaragara ko ari umuntu uri ahantu bacururiza amata ariko nanone bikagaragara ko ari ahantu bacuruza amagi, ibirimo ji z'inyange, hakaba n'icyuma gitunganya ayo mata.

Urupapuro rw'uburyo bwo kwishyura hifashishijwe irembo serivisi ikoreshwa mu kwishyura serivisi za leta n' izindi serivisi zo mu rwanda harimo amahitamo atandukanye yo kwishyura Mtn ,airtel ,debet Card na cashi kwishyura mu mabanki .

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho amagambo y'umukara rw'icyemezo cy'uko umuntu yishyuye ibicuruzwa runaka k'itariki cumi neshatu z'ukwa munani muri bibiri na makumyabiri na gatatu.

Igipapuro kerekana uburyo amafaranga yagiye yinjira, ndetse anasohoka, ibyaguzwe n'ibyagurishijwe n'igiciro cyabyo.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho amagambo y'umukara rwerekana ko ari urwo kwishyuriraho imisoro, ruriho uwishyurirwa mu karere ka Kicukiro hariho nimero ziranga uwishyura.

Igipapuro kiririho uburyo amafaranga yagiye asohoka injira kuri konte z'abantu bagiye batandukanye n'uburyo yakoreshejwe.

Ibiganza bifashe amadolari angana n'idorari rimwe urivunje mu manyarwanda ringana n'igihumbi na magana ane cy'amanyarwanda iryodorari rifite ibara ry'igitaka harimo akabara k'umukara n'akabara k'icyatsi.

Amafoto y'amafaranga akoreshwa mu bihugu byo hanze, hariho ishusho y'umugabo. Ari mu bwoko bw'ibiceri ndetse n'amanote menshi.

Amafaranga yo mugihugu cyo mu Bushinwa mirongo itanu ndetse n'ijana hariho, umugabo ufite imisatsi y'umweru.

Inote y'umweru y'amafaranga y'amadolari afitwe n'umuzungu ari kuyabitsa cyangwa ari kuyabikuza muri banki, hariho imashini n'umuntu uri kuyandika mu mashini, amafaranga y'amadolari angana n'ijana bingana n'ibihumbi ijana na mirongo ine by'amanyarwanda.

Inzu ifite ibyapa by'ubururu n'imbere harimo itarakumweru byerekana ko iyo nzu ikorerwamo igikorwa cyo guhinduranya amafaranga no kugura no kohereza ibintu hanze y'igihugu.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho amagambo y'umutuku arimo n'ayandikishijweho amagambo y'umukara. Rwerekana ko ruhinduranwa n'abagura n'abagurisha, harimo amabara y'amadarapo y'ibihugu nka Amerika, Ubwongereza na Kenya.

Inzu irimo imeza iteretseho mudasobwa, harimo intebe ebyiri, yerekana aho bakirira abantu ari ho n'akantuza baterekamo k'umweru urugi rw'ibirahuri.

Ingendo nziza cyane iri ku mazi hari ibiti byinshi bikurura akayaga keza hari inzu y'amagorofa iri mu ibara ry'umweru, n'amazi.

Giahinzwe ubwishingizi mu Rwanda gikorera mu mugi wa Kigali, wifuza ubundi busobanuro wahamagara, makumyabiri, myakumyabiri, umurongo utishyuzwa, hari urugi ruri mu ibara ry'ubururu.

Abagabo bambaye neza uri ku ruhande yambaye ingofero iri mu ibara ry'umukara n'amadarubindi, imbere hari icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru.

Inzu y'ubucuruzi igorofa rirerire harimo amadarajya azamuka, hashushanyijeho umukobwa uri muri siporo, hasi hahagaze umuhungu wambaye umupira w'umweru, ndetse hari n'uturabo twiza.

Ikigo cy'ubwishingizi wizigamamo bakaba bagutabara igihe ugize ibibazo bitandukanye, nk'inkongi y'umuriro, impanuka, uburwayi n'ibindi.

Ikigo gishinzwe ubwirinzi mu Rwanda gifasha abaturage kwizigama, ayo mafaranga bizigamye akazabagoboka mu gihe runaka nk'ik'impanuka, uburwayi n'ibindi.

Gitanga inguzanyo ku mishinga igiye itandukanye yo kwiteza imbere, ukazagenda wishyura ushyiraho n'inyungu, gake gake.

Abantu nyamwinshi bafite ibinyabiziga ndetse bikoreye bavuye guhaha. Ku mpane n'impande hari amagorofa maremere.

Isoko ricururizwamo ibikoresho byakorewe mu Rwanda bya gakondo hifashishijwe, ibikorerwa hano. Harimo imipira myiza yanditseho Rwanda n'ibikapu byo gutwaramo.

Inzu ndende y'amagorofa, ifite ibirahure byijimye, iriho amarange y'umutuku wijimwe. Hari n'ibidukikije.

Iduka rirerire rifite ibirahure byijimye, imbere hari ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, n'imodoka nyinshi ziri mu ibara ry'umukara.

Akapa gato kerekana uburyo wakwishura ukoresheje ikoranabuhanga k'ubuntu. nimero y'umucuruzi ni umunani gatatu icyenda gatanu kane kane.

Inyubako itangirwamo serivisi za kompanyi y'itumanaho ya eyateri ifite ibirango by'amabara y'umutuku n'umweru icuruza n'amatelefoni yo mu bwoko butandukanye harimo amanini n'amato.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku uhagaze imbere y'akazu k'umuhondo kandikishijweho n'amabara y'umukara gacururizwamo amayinite y'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyene, imbere y'aho kandi hari inzu ndende ifite amagorofa agera muri atatu.

Iduka ririmo abantu bane, batanu n'umuntu uri kwerekana ubutumwa muri telefone, harimo n'icyapa gisa ibara ry'icyatsi, cyanditseho imyaka icumi hamwe namwe, murakoze.

Ikarita yerekana uburyo wakwishyura, nta kiguzi ukanze akanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri, umunani, akanyeyenyeri, rimwe, akanyenyeri, zeru, zeru, mirongo itanu na gatanu, cumi na gatatu, urwego.

Umusore ukora umwuga w'itangazamakuru, ufite imisatsi miremire ndetse n'akamwenyu ku maso, yambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo, inyuma ye hari icyapa ndetse n'imodoka.

Ahatangirwa ubufasha kubirebana n'itumanaho mu Rwanda bambaye impuzankano za kazi ziri mu ibara ry'umutuku z'ikigo gishinzwe gukwirakwiza itumanaho ndetse n'umuyoboro w'ihamagarana.

Icyapa kerekana uburyo wakwishyura wifashishije ikoranabuhanga rigendanwa. Nimero y'umucuruzi ni icumi mirongo inani na kane cumi na gatatu, ukanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu urwego, ugakurikiza amategeko n'amabwiriza.

Imodoka iri mw'ibara ry'umuhondo ryerekana uburyo ushobora kohereza, ubitsa, kwakira, kugurizwa ndetse no kugura itumanaho k'uburyo bwiza bwizewe.

Irebana n'ikoreshwa ry'itumanaho ukarikoresha wishyura, uhamagara, wandika ubutumwa bugufi ndetse wohererezwa, unakira amafaranga ku buntu.

Ikigo cy'imari gishinzwe gutanga inguzanyo kubitswamo ndetse no kuguriza, hari abakozi bicaye mu kazu gato bategereje kwakira ababagana.

Utanga ubufasha ku bijyanye n'uburyo wakwishyura, wakohereza, wagura ndetse wanabika, ukabikuza ukoresheje igikoresho cy'itumanaho, yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo.

Ikirango cyerekana uburyo wakwishyura ukoresheje igikoresho k'ikoranabuhanga kigendanwa ukanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyerigatatu urwego ugakurikiza amategeko n'amabwiriza.

Umugabo wambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umuhondo, ku mupira we handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, afite igikoresho cy'ikoranabuhanga, ari gufasha umugabo wambaye umwenda w'umukara.

Umukozi w'ikigo cy'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru ndetse n'agakarita k'akazi kari mu ijosi ari gutanga impano.

Abakozi b'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda, bambaye impuzankano z'akazi, bambaye umuhondo ndetse n'ubururu, barishimye bari mu kazi.

Abakozi bakorera ikigo gishinzwe itumanaho umuyoboro mugari mu Rwanda, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo isa n'umutaka bahagaze munsi.

Umukozi w'ikigo cy'itumanaho ari gutanga ubufasha ku baturage bamungannye yambaye impuzankano yo mu ibara ry'umweru ku ijosi hariho akabara k'umuhondo.

Ahabereye imurikagurishwa kubirebana n'umuyoboro w'itumanaho mugari mu Rwanda. Hari abagabo babiri bizihiwe bari kubyina. Inyuma yaho hari igikoresho cy'ikoranabuhanga kifashishwa mu indangurura majwi.

Mu ibara ry'umuhondo hariho uburyo wakwishyura ukoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa ubwo buryo burizewe, inyuma ye hari icyuma kiri mwibara ry'icyatsi kibisi.

Akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo gatangirwamo ubufasha, ku birebana no kubitsa' kubikura, kugura no kugurisha wifwshishije ikoranabuhanga.

Umugabo uri kumanika icyapa cyerekana uburyo wakwishyura ahacururizwa imyenda y'abagabo n'abagore, nimero y'ubucuruzi wakwishyuraho ni kabiri gatunu zeru gatanu cumi n'umunani.

Akazu gato k'ubucuruzi, bucururizwamo ibijyanye n'ikoranabuhanga rigiye ritandukanye, aho bagusobanurira uburyo wakifashisha ikoranabuhanga ugendana, ukaba wabitsa, ukanabikuza, ku buntu.

Inzu rusange ifashirizwamo abaturage ku birebana n'itumakaho ry'umuyoboro mugari mu Rwanda, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo ndetse bafite n'ibyuma by'ikoranabuhanga.

Inzu iri mu ibara ry'umuhondo bashinzwe gufasha abaturage ku bijyanye n'ikoranabuhanga n'imikoreshereze yaryo mu buzima bwa buri munsi, handitseho ngo kanda akanyenyeri ijana na makumbabiri na gatandatu urwego ugakurikiza amabwiriza.

Ikoranabuhanga kifashishwa mu kohereza cyangwa kwakira amafaranga. Bari kukwereka uburyo wakoresha wishyura nta kiguzi. Ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri, umunani akanyenyeri rimwe, ugashyiramo nimero y'umucuruzi urwego ugakurikiza amategeko n'amabwiriza.

Ubufasha bugiye butandukanye, hari abakozi babiri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo, handikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Akazu gato k'ubucuruzi cyangwa gatangirwamo ubufasha ku bijyanye n'ikoranabunga ndetse gahagarariye umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda. Kari mu ibara ry'umuhondo.

Icyapa cyerekana uburyo wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga rigendanwa, nimero y'umucuruzi ni karindwi umunani icyenda zeru makumyabiri.

Umugabo wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo ari gutanga ubufasha ku bijyanye n'uburyo wakishyura cyangwa ukohereza amafaranga, imbere ye hari mudasobwa yifashisha.

Abagore babiri bambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umuhondo, bambaye udukarita mu ijosi twerekana akazi bakora ndetse bari hano ngo bafashe abantu ibijyanye n'ikoranabuhanga.

Icyapa kerekana uburyo wakishyura ntakiguzi nimero y'umucuruzi ni gatandatu gatandatu gatandatu gatandatu mirongo itatu, ukanda akanyenyeri ijana namirongo inani nakabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe, ugakomeza amategeko n'amabwiriza.

Icyapa kerekana uburyo wa kwishyura wifashishije ikoranabuhanga nimero y'ubucuruzi ni 000036.

Akazu gato karimo ibara ry'umuhondo hahagazemo umukozi w'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda, wambaye impuzankano muri mu ibara ry'umuhondo inyuma yaho hari igorofa rirerire.

Akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo gahagazemo umugabo wambaye umupira w'ibara ry'umweru ahatangirwa serivise zigiye zitandukanye ku birebana no kwishyura no kohereza amafaranga.

Gato gatangirwamo ubufasha bw'umuyoboro w'itumanaho mugari mu Rwanda emutiyene, kari mu ibara ry'umuhondo, hari umugore waje gusaba ubufasha kubijyanye n'ibihakorerwa.

mUuguzi n'umucuruzi bahurira bakaganira ku bijyanye n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, umuguzi akagabanyirixwa agera kuri mirongo itatu ku ijana, bakaba babimugezaho ku buntu ndetse bikaba byizewe.

Umugabo uri gukoresha igikoresho k'ikoranabuhanga afotora ku ikarita iriho nimero y'umucuruzi magana arindwi mirongo itanu n'icyenda gatatu, mu buryo wishyura ntakiguzi.

Akazu gato cyane cyangwa ishami rishinzwe gutanga ubufasha ku birebana n'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda, kari mu ibara ry'umuhondo, hicayemo umukozi witeguye kwakira abamugana.

Akazu gato kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, kifashishwa mu gutanga ubufasha ku bijyanye n'itumanaho ry'umuyoboro mugari mu Rwanda, ndetse n'uburyo wakwishyura, ukabitsa, ukabikuza amafaranga yawe utavuye aho uri.

Akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo, gahagazeho umukobwa wambaye umupira w'umutuku, ndetse ategereje ubufasha ku birebana n'ikoranabuhanga rigezweho.

Ishami rishinzwe gutanga ubufasha ku bijyanye n'ikoranabuhanga, hari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, ndetse hari n'abakozi bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe gutanga ubufasha kubijyanye n'uburyo wakwishyura, ukohereza, ukakira cyangwa ukabikuza amafaranga yawe wifashishije itumanaho. Kari mu ibara ry'umuhondo.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe gutanga ubufasha kubijyanye no gukoresha ikoranabuhanga wishyura, wakira, wohereza, ubitsa ndetse unabikuza amafaranga.

Ishami rikuru rishinzwe gutanga ubufasha kubirebana n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga, mu kwishyura, guhamagara, kwandika ubutumwa bugufi, kohereza amafaranga mu buryo bwiza Kandi bwizewe.

Akazu kari mu ibara ry'umutuku ni ishami rishinzwe gufasha abaturage kubijyanye n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mukwishyura, kubitsa, kuguriza, kwakira no kohereza amafaranga utavuye aho uri.

Igikoresho k'ikoranabuhanga, kifashishwa mu kwishyura, kubitsa, kubikuza, kugurizwa, amafaranga utavuye aho uri, ndetse ukaba wagikoresha uhamagara cyangwa wandika ubutumwa bugufi.

Icyapa cyerekana uburyo wakwishyura wifashishije ibyuma by'ikoranabuhanga bigendanwa, ukanze akanyenyeri, ijana na mirongo inane na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, ugakurikiza amategeko n'amabwiriza.

Akazu k'ubucuruzi cyangwa gatangirwamo ubufasha bw'itumanaho, umuyoboro mugari mu Rwanda, kari mw'ibara ry'umuhondo. Harimo umugabo witeguye gutanga ubufasha ku birebana n'ibyo bakora.

Umugabo uri gucuruza ikiribwa k'inyanya gikungahaye cyane ku byubaka umubiri bitera imbaraga ndetse binarinda indwara, iki kiribwa kiraryoha, ari kwishyura akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Abantu babiri bambaye imyenda y'impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo ari gutanga ibikomoka kuri mazutu abishyira mu kinyabiziga. Bari kwerekana uburyo wakwishyura ukoresheje itumanaho.

Bahurira bakaganira ku bijyanye n'ibiciro umguzi akagabanyirizwa agera kuri mirongo itatu na gatanu ku ijana y'igicuruzwa akishyura akoresheje itimanaho.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo imwenda y'abagore n'abagabo y'igorofa ndetse imbere yayo hari n'imodoka itwara abantu ndetse n'ibintu iri mu ibara ry'umukara.

Umuguzi n'umucuruzi bahurira bakaganira ku bijyanye n'ibiciro by'ibicuruzwa bakihurira imbonankubone, ndetse bakoresheje ikoranabuhanga, umuguzi akishyura atavuye aho ari.

Ikigo gishinzwe gukwirakwiza ibyo kurya kitwa vuba vuba ahagaze imbere y'igikoresho gitwarwamo ibyo biryo yambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuguzi n'umucuruzi bahurira bakaganira kubijyanye n'ibiciro by'ibicuruzwa, aho ukanda wa wa wa, akadomo kigure, akadomo rwa. Ndetse ukishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Urubuga rw'ikoranabuhanga, ruhurirwaho n'umuguzi n'ubucuruzi, bagamije kuganira ku bijyanye n'ibiciro by'ibicurizwa, aho bacuruza ibijyanye n'inkweto, ndetse babigushyikiriza ku buntu.

Igishushanyo kiriho ibiribwa bitandukanye byiza kandi biryoshye harimo inyama zisanzwe, iz'inkoko, amashu, ibitoki, karoti, inyanya, inanasi ndetse n'amavuta.

Ikoranabuhanga rigezweho, aho umuguzi ashobora kwishyura akoresheje itumanaho, akohererezwa ibyo akeneye vuba kandi mu buryo bwizewe.

Umuguzi n'umucuruzi bahuhiraho bakaganira ku bijyanye ku bijyanye n'ibiciro byabyo umuguzi akishyura akoresheje ikoranabuhanga ndetse n'umucuruzi akabimugezaho mu buryo bwizewe ku gihe.

Ibinyabiziga byifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, iyo ubakeneye uhamagara zeru, karindwi, umunani, rimwe, zeru, zeru, zeru, zeru, zeru, gatatu, kane.

Itumanaho umuguzi n'umucuruzi bahuriraho, bakaganira ku biciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Umuguzi yishyura akoresheje ikoranabuhanga, bikamugeraho mu gihe gito.

Umuguzi n'umucuruzi bahuriraho bakaganira ku bijyanye n'ibicuyuruzwa ndetse n'ibiciro byabyo aho umuguzi yohereza amafaranga akoresheje itumanaho atavuye aho ari, ibicuruzwa bikamugeraho ku buntu.

Icyapa kiriho ibiribwa bigiye bitandukanye by'amoko menshi harimo inyama z'inka ndetse n'iz'inkoko hariho ibitoki, amavuta, inanasi, inyanya n'ibindi n'ibindi.

Urubuga umuguzi n'umugurisha bahuriraho bakaganira ku bijyanye n'ibicuruzwa n'ibiciro byabyo hatangirwa mudasobwa ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye umuguzi yishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Abakobwa babiri bafite inseko ku maso bari guhererekanya, umwe akorera ikigo gishinzwe gukwirakwiza ibiribwa cyitwa vuba vuba, yambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugabo uri gusobanura ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga, mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi kandi ari kuvuga ku buryo wakwishyura, ukoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga ugendana.

Urubuga rw'ikoranabuhanga ruhuza umuguzi n'umugurisha bakaganira ku bicuruzwa bigiye bitandukanye, aho umuguzi yohereza amafaranga akoresheje ikoranabuhanga umucuruzi nawe akamwohereza ibyo yatumije ku buntu.

Icyo kurya cyanditseho Vuba vuba, kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse urahamagara bakabikugezaho mu gihe cyihuse.

Igikoresho gifunze neza kifashishwa mu gukwirakwiza ibiribwa bihiye kiri mu ibara ry'ubururu hariho amagambo yandikishishe ibara ry'umuhondo, giteretse ku kinyabiziga gitwara abantu n'ibintu.

Ruhurirwaho n'umuguzi n'umucuruzi bakaganira kubirebana n'ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye. Hifashishijwe ikoranabuhanga. Bacuruza amapantaro imyenda y'abagabo n'abagore, n'ibindi.

Urubuga umuguzi n'umucuruzi bahuriraho bakaganira ku bijyanye n'ibiciro by'ibicuruzwa umucuruzi acuruza rwitwa kigure akadomo rwa.

Ibinyabiziga bitatu byifashishwa mu gukwirakwiza cyangwa kujyana ibiribwa aho babatumye biri mu ibara ry'umutuku kandi bitwawe n'abagabo.

Iriho imibare wahamagara ukeneye, cyangwa wifuza uburyo wakoresha ku mbuga nkoranyambaga. Andika zeru karindwi umunani, mirongo irindwi na gatandatu, zeru zeru, magana abiri mirongo itandatu na gatandatu.

Ibinyabiziga bitatu biriho ibikoresho byifashishwa mu gutwara cyangwa kugemura ibiribwa ahantu hatandukanye, ibyo bikoresho biri mu ibara ry'umutuku.

Ririmo ibitoki biribwa hari abagore bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu bwijimye ndetse ibitoki bipanze mu bikoresho byabugenewe biri mu ibara ry'umuhondo.

Ruhuza umuguzi n'umucuruzi bakaganira ku bijyanye n'ibiciro by'imyambaro y'abagore, abagabo ndetse n'abana. Hashushanyijeho ikanzu, ijipo, umupira n'ibindi.

Imodoka nyinshi ziri imbere y'igorofa riri mu ibara ry'ubururu zanditseho twiga mu ibara ry'umweru ndetse harimo n'ibara ry'umuhondo ziteguye gutwara.

Ubucuruzi bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga aho ugabanyirizwa mirongo itatu na gatanu ku ijana wishyura ukoresheje igikoresho k'itumanaho kigendanwa.

mUuguzi n'umucuruzi bahurira bakaganira ku bijyanye n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, umuguzi akagabanyirixwa agera kuri mirongo itatu ku ijana, bakaba babimugezaho ku buntu ndetse bikaba byizewe.

Gikwirakwiza ibiribwa, hari umugabo wambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'icyatsi kibisi ari gushyira ibiryo ahabugenewe abijyanye ku muguzi wabitumije.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwifashishwa mu guhuza umuguzi n'umucuruzi bakaganira ku giciro cy'igicuruzwa ndetse bikaba byamugeraho mu buryo bworoshye kubuntu, yishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Umuguzi n'umucuruzi bahuriraho, bakaganira ku biciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, kuri urwo rubuga hacururizwa imboga zizwi cyane mu kurinda indwara.

Urubuga umuguzi n'umucuruzi bahuriraho bakaganira ku biciro by'ibicuruzwa runaka bigiye bitandukanye, harimo inkweto, ibikoresho bya mudasobwa n'ibindi n'ibindi.

Ifunguro rya mugitondo rigizwe n'ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara. Harimo amagi, umuceri n'ibindi byinshi cyane bigufasha kwirirwa umunsi wawe umeze neza.

Iyi foto ndikubonaho imodoka ifite amapine y'umukara ikorera kampani imwe, ifite amabara abiri umukara n'umuhondo, yanditseho iposita. Iyi modoka ifitemo n'amabara y'umutuku n'umweru Iyi modoka itwara ubutumwa ibuvana ahantu hamwe ibujyana ahandi.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibyuma by'ikoranabuhanga, mudasobwa, ibigendanwa mu ntoki byifashishwa mu guhamagara, kwandika ubutumwa bugufi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuhungu wambaye amadarubindi ndetse n'impuzankano y'akazi iri mu ibara y'icyatsi kibisi atwaye ibiribwa bihiye abishyikiriza umuguzi wabiguze yifashishije ikoranabuhanga k'urubuga rwitwa vuba vuba.

Ikinyabiziga gitwawe n'umugabo wambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, atwaye ibiryo byo kurya mu gikoresho cyanditseho vuba vuba.

Urubuga rugurishirizwaho imbuto ndetse n'imboga bidufasha mu birinda indwara, bikungahaye ku ntungamubiri umubiri wacu ukenera bwa buri munsi.

Umucuruzi ukorera mu isoko rigari, aho uhamagara ukoresheje igikoresho cy'itumanaho, ugatumiza ibyo wifuza bikakugeraho ku gihe kandi mu buryo bwizewe.

Urubuga ruhuza umuguzi n'umugurisha handitseho, "Gurisha wivuganiye n'abakiliya mu masaha makumyabiri n'ane, Gura kuri make wivuganiye na banyirabyo," birahendutse kandi birizewe.

Cyifashishwa mu gukwirakwiza cyangwa kugemura ibiribwa bihiye, ugitwaye yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibiryo na byo biri mu gikoresho cyiza.

Inzu itabamo abantu ishakwa n'abantu bayigura ikaba ifite urugi rw'umutuku n'igipangu kiriho amatafari ahiye, ni idirishya ry'umukara ikaba ifite mo imbere irangi ry'umukara.

Hano hari inzu iherereye mu mujyi wa kigali ifite amabati y'umutuku ifite igipangu gisa umukara harimo n'akabara k'umweru, yegeranye n'ayandi mazu inyuma ikaba igura miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amanyarwanda.

Inzu iherereye mu rRwanda i Kigali kabeza ikodeshwa amafaranga magana atanu mirongo itanu y'amanyamerika ikaba ifite intebe z'icyatsi n'ameza y'umweru ndetse n'utubati two kubikamo ibikoresho byo gutekesha ibyombo n'ibindi bitandukanye bisa umweru ndetse n'icyuma gishinzwe gukonjesha ibinyobwa,

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali igurishwa miliyoni ijana na mirongo itanu, ifite igisenge kirekire cy'amabati, ikaba ifite na purafo, ifite n'ibirahure bya fime by'umukara, iyo nzu ikaba yifitemo n'amakaro n'imbere.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ifite ibirahure birebere, isakaje ibiti bibajwe, ndetse ku mpande hagiye hariho ibiti by'indabo.

Inzu igurishwa iherereye i kigali i kanombe ifite ibyumba bitandatu n'ubwogero butatu ikaba ikodeshwa ibihumbi magana ane buri kwezi, ikaba iherereye ahantu hatuje hafitemo ibiti m'imbere.

Inzu ifite amabati y'umutuku, ifite n'igipangu kijya gusa ibara ry'ivu, ikaba igurishwa iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe, igurishwa amafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu.

Inzu ifite amabati y'umutuku nini ifite n'irangi ry'umutuku ku gikuta harimo n'irangi ry'umuhondo, igurishwa ibihumbi magana ane ku kwezi, ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri iherereye Kimironko.

Iherereye mu mujyi wa Kigali iherereye mu gace ka kanombe, hari amabara meza cyane, imbere hari indabyo ziri mu bwoko bwiza bw'ibiti.

Inzu igurishwa mu gace ka Kibagabaga, igurishwa miliyoni ijana mirongo ine, ifite amabati y'umutuku n'irange rijya gusa icyatsi n'ibirahuri bya fime by'umukara, imbere yaho hari umuntu uri gutambuka, iyo nzu ikaba ifite n'amapave, ruguru yayo hari indi nzu nayo y'amabati y'umutuku.

Ikarita y'ubwishingizi ifite ibara ry'umuhondo yandikishijemo amagambo y’ umukara yanditswe n'imashini n'amagambo y'ikaramu y'ubururu yanditswe n'umuntu izina ryikigo cy’ubwisungane mu kwivuza Gasabo izina ry'ishami ubwisungane mu kwivuza gikomero.

Ryambere rigezweho rihahirwamo ibikoresho bitandukanye nka mudashobwa, ibyikoranabuhanga hari umugabo wambaye umupira w'umukara uje guhaha.

Iduka rinini cyane rya kizungu, ricuruza ibiribwa n'ibinyobwa byanyujijwe mu nganda, bifunze neza mu buryo bwizewe, bifite isuku n'umutekano.

Bigari bicuruza ibikomoka ku bijumba ndetse bigacishwa mu nganda, bigatunganywa bikabikwa neza mu bikoresho byabugenewe bibirinda kwangirika.